Umukobwa wambaye agapira k'imbeho gasa icyatsi n'ipantaro y'ubururu yicaye ku ivarisi isa icyatsi yambaye inkweto z'umweru, agerekereranije ibirenge, atunze intoki hejuru.

Umugabo uri guseka wambaye ishati isa ikigina, ipantaro y'umukara, mu biganza afashe inkoni, aricaye ku gatebe karambuye gasa umukara.

Abagore babiri bafashe igipapuro kirekire, umwe muri bo yambaye umupira w'ubururu, imisatsi irambuye, yambaye isaha n'impeta, undi yambaye amarinete ari no guseka.

Amagambo yanditswe mu mweru, hejuru hari utuntu dufite ibara ry'icyatsi, amagambo aragira ati.'' Mituweri ubwisungane mu kwivuza''. Inyuma yaho harasa ubururu.

Ahantu hasa ubururu harimo amagambo yanditswemo mu ibara ry'umweru, imbere y'ayo magambo hari umuntu usa nk'uzamuye amaboko uyafatanyije, aho ayo magambo arangirira harimo akazeru n'utuntu dutatu duhagaze.

Umugabo uhagaze inyuma y'icyapa gisa umweru handikishijwemo amagambo y'ubururu, uwo mugabo yambaye ikote ry'umukara ari guseka igikumwe yakizamuye.

Umugabo n'umugore, umugabo ateruye umwana mu ntoki yamushyize hejuru, umugore afite imisatsi nawe arambuye amaboko, iruhande hari akantu amutwaramo.

Umugabo n'umukobwa bari guseka, bose barirabura, imbere handitseho amagambo agira ati "murakaza neza kuri NCBA", hariho akantu kekwereka aho kwinjirira gasa umuhondo, inyuma harasa ubururu.

Umukobwa uri guseka ufite imisatsi isanzwe yambaye umupira w'ubururu, iruhande rwe hari ishakoshi isa umutuku, munsi y'iyo sakoshi hari agakarito gasa umweru ku rundi ruhande rw'ako gakarito hari akasakoshi gasa umukara.

Udukomo twinshi dusa nk'aho dukozwe mu masaro agiye atandukanye turi mu kantu ariko utwo dukomo turimo amabara y'umutuku, umweru, umuhondo, ubururu.

Amashati menshi aratondetse ku murongo. Harimo umweru, ubururu, umutuku, harimo umukara n'umweru, harimo ubururu bwaka cyane, n'ubwijimye.

Umugore wambaye ibintu by'umukara, ari kuvugana n'undi mugore wambaye umupira urimo umutuku, umweru, icyatsi, iruhande rwabo hari ikintu bambitse ikoti ry'ubururu n'ipantaro y'ubururu, hari n'abandi bagabo ku ruhande bari kuganira.

Ahantu hasa nk'aho habera ubucuruzi, harimo udupira harimo ibikapu bagendana harimo ng'ibinigi bambara mu ijosi, ibikapu birasa hari igisa umutuku n'umukara uvanze, umupira usa n'umweru n'umukara.

Utuntu bashyiraho utunigi bambara mu ijosi, kamwe gafite akanigi gasa umweru, akandi gafitemo agasa oranje n'ubururu, akandi ni shokora n'umutuku, akandi ni umweru na shokora.

Inzu bacururizamo harimo ibintu bitandukanye, harimo udupira dutondetse ku murongo n'udusengeri, harimo umugabo uhagaze wambaye ishati y'ubururu n'imisatsi ku mutwe.

Abagore babiri, umugore umwe wambaye umupira urimo umweru n'ubururu, ari guhereza undi mugore wambaye agatambaro mu mutwe wambaye n'amaherena, inyuma y'uwo mugore hariyo utuntu dusa umuhondo n'icyatsi.

Iduka bagurishamo imipira y'imbeho n'imipira isanzwe. Hasi hari amashati, muri aya mashati hari isa n' umweru n' umukara, imipira isa umweru, umukara n'umuhondo.

Abagabo babiri umwe yambaye ikote ry'ubururu afite n'agakapu mu ntoki gasa umutuku, yambaye ipantaro n'inkweto z'umukara zirimo umweru, undi yambaye umupira w'umukara ipantaro n'inkweto ziza shokora.

Umugabo wambaye ishati n'ipantaro n'inkweto z'umukara, ateruye icyapa gikozwe mu rufunguzo, inyuma ye hari igikamyo gisa umweru cyanditseho fuso.

Abagabo babiri bateruye agapapuro gafite forume y'urufunguzo rufungura imodoka, umugabo ubwe yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umweru undi mugabo yambaye agapira k'umutuku, karimo imirongo y'umweru n'umukara yambaye ipantaro n'inkweto z'umukara.

Abagabo babiri bahagaze, umwe wambaye ishati y'ubururu bafite agakapu mu ntoki, inyuma yaho hari imodoka eshatu z'ibikamyo zose zisa icyatsi. Inyuma yazo hari n'ibiti.

Igikamyo gisa umweru cyanditseho howo, hasi ku matara yayo hafungishijwe utwuma, hasi icyo gikamyo iruhande rw'amapine hari akantu gasa umweru karimo n'umutuku, inyuma y'icyo gikamyo hari inyubako ndende.

Umugabo wirabura wambaye ishati y'amaboko maremare isa ikigina n'icyatsi, ari kubara amafaranga, iruhande rwe hari ayo ateretse amafaranga menshi n'imashini iyabara, imbere ye hari telefone ebyiri.

Abagabo babiri bambaye imyenda isa umutuku ku maboko hariho utuntu dusa umutuku, bambaye n'ingofero z'umukara, bateruye igisanduku ari babiri, imbere yaho hari imodoka inyuma isa ubururu.

Akaboko k'umuntu kari gukura amafaranga mu cyuma kiyabara. Muri icyo cyuma gisa umukara, mo imbere handitsemo rimwe, rimwe, kabiri, hasi handitseho ibihumbi bibiri, magana abiri mirongo itandatu by'amadorari.

Umugabo wambaye ikoti risa ubururu n'umukara, yambaye ingofero isa umweru, yegeranye n'undi mugabo wambaye ikote, imbere yaho hari amadirishya akozwe mu birahure, hejuru hariho ibyapa bisa icyatsi.

Imashini ibara amafaranga, hari amaboko abiri ari gushyiraho amafaranga, kuri iyo mashini aho bakanda hari ahasa umutuku, icyatsi na oranje, hirya y'aho hantu hari akantu gasa ubururu.

Imeza isa umweru, kuri iyo meza hateretseho igikombe kibonerana kirimo amata, iruhande rw'icyo gikombe hari isahani na yo isa umweru.

Ahantu hari ibicupa bifungiranye bitondetse, ni birindwi byose bifite imifuniko y'umweru, hari akaryango gafungishwa n'ingufuri hariho ingufuri kuri aho hantu ku ruhande hari umuryango.

Umugore witandiye agatambaro karimo amabara y'icyatsi n'umukara, ateruye ijage irimo amata, hari n'indi jage itarimo ikintu ku meza, isa umweru n'akayungirizo gasa ubururu.

Umwana wirabura ufunze imisatsi yambaye ikanzu y'umweru afite igikombe kirimo amata kumunwa we hejuru hasize amata yambaye n'amaherena.

Ingunguru nini ikozwe mu cyuma gifite amabara y'umweru n'ubururu handitseho inganda z'amata za Nyanza, ku rundi ruhande rw'ibumoso rw'iyo ngunguru hariho inka iri mu mabara y'umweru n'umukara.

Indobo ibonerana hejuru hariho n'umufuniko wayo upfundikiye ariko udapfundikiye neza, upfundikiye ureba hejuru, mo imbere harimo amandazi, ku ruhande rwayo hariho n'indi ndobo igaragara, ibonerana, hariho akantu bateruzamo ayo mandazi k'icyuma.

Umuryango usa ubururu ufunguye, hirya yaho hari amajerekani atondetse, ijerekani imwe ifiteho ikirango cy'ubururu, mo imbere handitsemo Jibu.

Abagore babiri, umwe wambaye umupira w'umukara afite utuntu mu ntoki ari guseka, ku ruhande hari umugore wambaye ishati y'ubururu, ateruye ikarito irimo utuntu dusa icyatsi n'ubururu.

Mesaje yerekana ko washyizeho ibihumbi magana atanu by'amagande, tariki makumyabiri n'imwe z'ukwa gatanu bibiri na makumyabiri na kabiri, munsi gato barakwibutsa ko utagomba gusangiza umubare w'ibanga wa konti ubikaho amafaranga.

Umukobwa uri guseka ufite imisatsi irambuye mu kaboko kamwe afitemo telefone, akandi kaboko urutoki rwarwo rwerekeje kuri iyo terefone, inyuma ye harasa umuhondo.

Amagambo agira ati ''shyiramo iyi mibare muri telefone yawe ubundi wishyure'' iyo mibare yandikishijwe ibara ry'umukara, ni akanyenyeri, ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri kane, akanyenyeri gatanu, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri umubare wa telefone yawe ukishyura.

Abagabo babiri bunamye bashyize amaboko ku meza, umugabo umwe yasizeho akaboko kamwe yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ubururu, undi yashyizeho amaboko yombi yambaye umupira w'ubururu, hasi hari udupapuro dusa icyatsi.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'umukara. Afite ipasi y'umweru arigutera ishati y'umweru akayiterera ku kantu bayitereraho gafite amabara y'ubururu n'umweru.

Amagambo yandikishijwemo umukara n'umutuku, agira ati, hitamo uburyo bwo kwishyura, hejuru hari n'andi magambo yandikishijwemo umutuku, hasi haragira ati, ishyura ukoresheje amayinite cyangwa eyateli mani.

Umugore imisatsi irafunguye, agatoki ari kugacanisha ku kantu gasa umweru, ari guseka, yambaye amaherena, inzara ze zirasize umukara.

Umugabo n'umugore barimo baraganira baseka umugabo yambaye umupira w'umuhondo, ingofero y'ubururu irimo n'umuhondo umugore yambaye ikoti ry'umukara n'agapira k'ubururu ateruye igikarito bombi bafite terefone ariko umugore we yambaye n'amarinete.

Umukobwa ufite imisatsi yafunguye umunwa, yambaye umupira w'umweru, ateruye terefone mu ntoki ari kuyirebamo, inyuma ye hari inzu ifite amarange y'umuhondo n'iroza.

Terefone ebyiri zisa umukara ziri ahantu hasa umweru, iya mbere handitsemo amayero ibihumbi bitatu mu bururu, iyindi handitseho kohereza amafaranga.

Terefone ebyiri, terefone imwe ifashwe n'ikiganza cyirabura, izo terefone inyuma harasa ubururu, inyuma kuri ako kantu gasa ubururu hariho akaganza gashushanyishijwe mu ibara ry'umweru.

Ikigo gishinzwe kwishyuza imisoro mu Rwanda. Harimo ahantu herekana amafaranga yo kwishyura, amafaranga yishyuwe, amafaranga y'igihano agomba kwishyurwa, n'amafaranga y'igihano yishyuwe.

Nimero ya mbere Jaques Rusirare afite nimero y'irangamuntu rimwe rimwecnda na kane mirongo inani numunani amae natatu niicyenda mirongo inani naku na rimwe afite umugabane usanzwe migabane ni ijana.

Intoki zifite amafaranga. Hari izumutuku n'izumuhondo. Izumutuku ni amafaranga igihumbi buri note, naho izumuhondo ni amafaranga magana atanu buri note.

Intoki zifite amafaranga ijana y'amadorari, kuri ayo mafaranga hariho umugabo w'imisatsi irambuye andi mafaranga ari mu kandi kaboko, hasi hari ikirahure.

Ikiganza gifashe inote icumi z'amayero mirongo itanu, iyo mirongo itanu yandikishijwe n'ibara risa icyatsi, ikiganza cy'uwo muntu kirasa umweru.

Umuntu uri kubara amafaranga y'amadorari, agiye kuyaha undi muntu uri inyuma y'ikirahure kibatandukanya, uwo mugabo afite amadorari mu kaboko kamwe n'andi mu kandi kaboko.

Inoti nyinshi hari zisa icyatsi ubururu, hari n'izisa umutuku n'isa ubururu, hari iriho inka iri kurisha, mu zisa umutuku hari iriho umugabo wambaye ikoti na karuvati n'ishati ufite ubwanwa kukananywa.

Amafaranga y'ibiceri atondetse hasi agerekeranyije, hasi aho atondetse hari izindi noti nyinshi cyane, hasi hari n'utundi duceri tutagiye dutondekeranyije hejuru.

Umuntu ufite intoki zirabura ariko atari cyane, wambaye impeta, ari kubara amafaranga asa ubururu n'umweru mo imbere, uwo muntu asa nk'umuntu wambaye umupira w'umukara.

Umuryango ufunguye usa ubururu, hejuru hari icyapa gisa ubururu cyandikishijwemo amagambo asa umweru, imbere y'uwo muryango hari ibiti bibiri bitari birebire cyane.

Inzu isize amarangi y'ubururu, handikishijwemo amagambo y'umweru havuga ati: "Aho bavunja amafaranga", iyo nzu ifite inkingi enye, na zo zisize amabara y'ubururu.

Akapa gasizwe amabara y'umweru n'ubururu handitseho banki ya Kigali, munsi yaho gato harimo n'akandi kapa gasizwe amabara y'umweru n'ubururu hariho nimero za telefone ebyiri.

Intebe zisa ubururu zifite udusego turimo amabara y'ubururu, umweru, n'icyatsi, hari utumeza dusa umweru dutoya n'indi ndende, hari ururabyo rusa icyatsi n'unumugabo wicaye wambaye umupira.

Inzu ifite imiryango n'amadirishya, amadirishya amwe arafunguye, andi arafunze, imbere yaho hari imeza n'intebe zibajwe mu biti, inyuma hari n'akabati kagufi kabajwe mu giti.

Imbaho nyinshi cyane, abagabo batatu umwe uri inyuma y'igiti wambaye umupira w'icyatsi utagaragara neza, iruhande rwabo hari akantu gatwikiriyeho umwenda w'umweru, kurundi ruhande rwabo hari akantu kandi gatwikiriyeho umwenda w'ubururu.

Inzu nini mo imbere ifitemo amatara menshi, inkingi zayo zisizwe ibara ry'umuhondo, hasi harimo uturongo twinshi cyane tumwe dusa umukara n'umweru.

Inzu ndende hanze hari ubusitani muri ubwo busitani harimo intebe n'imeza, hagati yaho hagiye harimo imitaka, iruhande hari agatara gatoya gasa umukara.

Inyubako icanye amatara asa umuhondo, hapanzwe hanze yaho intebe n'imeza busa nk'aho bwije ikirere cyo hanze hakikijwe n'indabyo n'ibiti.

Ahantu hari umutaka usa ubururu, hariho utuntu bicaraho, hariho udusego dufite ibara ry'umweru n'umukara, hari amazi kuruhande, hari naho abantu banyura mu muryango.

Ahantu hari kwaka amatara y'umuhondo hari intebe zifite udusego hasi dusa umweru n'ameza ariho ibitambaro bisa umweru, iruhande rwaho hari amazi abantu bicara bareba.

Inyubako ndende cyane, munsi y'iyo nyubako hari amadarapo agiye azamuyeho, hari amazi ari kwimena, ku rundi ruhande hari amatara ari gusa n'umuhondo.

Ahantu hari ibiti by'icyatsi, ku ruhande hari intebe zisa oranje ziri mu mutaka, ahandi hari intebe zisa umukara ziri mukaziga mo imbere muri izo ntebe hasa umutuku.

Umuryango usize amabara y'ubururu umuryango urafunguye no hejuru hasize ubururu ariko harimo amagambo ari mu mweruru harimo n'imibare wahamagara ariyo 2050.

Umugabo ufite uruhu rusa umweru yicaye ku meza isa umutuku iruhande rwe hari iyindi ntebe ari kumashini z'umukara, hari agaticyatsi gateguyemo, hari ibirahure birebire, hari n'udutabo kuhande rwe.

Inyubako ndende yandikishijwemo amagambo y'icyatsi hejuru hariho ibiti by'icyatsi ariko bigiye birimo umwanya hagati yabyo hasi hari amatara ari kwakamo asa umuhondo, no hanze yaho hari ibiti by'icyatsi.

Umugabo usa nkuri gusohoka wambaye ishati y'ubururu irimo umukara, n'ipantaro y'ubururu bwijimye, hari nundi mugabo uri gutambika wambaye ishati y'ubururu uri kureba muri terefone.

Umugore uhagaze wambaye ikanzu y'umukara n'agapfukamunwa k'umukara, yambaye agakomo ku kaboko, hirya ye hari umugabo wambaye ikoti ry'ubururu, ishati y'ubururu na karuvati y'umutuku.

Abagore bahagaze, bari guseka, umwe yambaye ikanzu y'ubururu, n'umweru, undi yambaye igitenge, yifubitse n'agatambaro gasa iroza mu ijosi.

Ahantu hari ibipirizo by'umweru n'ubururu, hari n'ikintu kirekire gisa ubururu, aho hantu hari n'imeza zisa umweru hari n'uturabyo dusa umuhondo.

Umugabo n'umugore bari guseka bombi uduhanga turafatanye, umukobwa yambaye ikanzu y'umweru akaboko ke yagashyize ku mugabo, akaboko ke kambaye impeta n'umugabo yambaye ikoti ry'umukara.

Umugabo wigikara ariguserebura yamabye ishati yubururu yamanitse amaboko abari, kuruhande hariho amagambo agira ati" cumi na rimwe kwi ijana kunyungu niba umashahara wawe wukwezi ari miliyoni imwe na maganabiri cyangwa kumanura byayo mafaranga".

Umukobwa uri guseka uri kureba muri telefone ye, inyuma isa umukara, akaboko kamwe kayitunze muri terefone, yambaye umupira muremure usa ubururu n'ishati isa ubururu, hejuru y'amaso ye harasa ubururu.

Umugabo n’umugore bafatanye, umugabo yambaye ikoti ry'ubururu, ishati y’umweru na karuvati itari ndende ngufi, umugore yambaye ikanzu y'umweru n'amaherena asa umweru hasi afite impande eshatu.

Inyubako ndende imbere iberamo ibintu bitandukanye, hasi niho banki ya Kigali ikorera, hejuru hari kuberamo ubucuruzi, hari umugabo uhagaze hanze yambaye ijire isa icyatsi.

Ahantu bari gucuruza voka ziri mu dusorori tw'umweru, voka zirasa icyatsi, umugore uyifashe mu ntoki imisatsi ye irafunze, yambaye n'isengeri y'umukara.

Umuhungu wambaye umupira w'umutuku, ari kuyora ibitunguru, abishyira mu kabase gasa icyatsi, hirya hari karoti, hari n'ibijumba, hari n'imyumbati, hari imiteja, hari n'umugabo wambaye ishati y'umweru wicaye.

Ahantu hagurishirizwa ibiribwa, hari ibitunguru byinshi cyane, hari na karoti, hari n'amashaza, ku mashaza hari agakombe kariho gasa umweru, hirya hari n'imboga.

Abantu babiri bahagaze begeranye bambaye imyenda yi'cyatsi, bambaye n'ingofero z'icyatsi, hirya hari igisharagati gisa umweru kirimo ibitambaro bisa ubururu n'umuhondo.

Ahantu hari abagore benshi wagira ngo ni isoko, umugore afite akabase k'ubururu karimo inyanya z'umutuku zuzuye, uwo mumama yambaye igitenge afite n'agasakoshi mu mutwe.

Umusore wambaye isengeri y'umweru, imbere ye hari umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro ya kaki, iruhande rwabo hari inyubako hasi isize amabara y'icyatsi.

Ahantu bagurishiriza ibitenge n'ibikapu harimo ibirenge by'amabara bigiye bitondetse hejuru, harimo iby'umuhondo, ubururu, umukara, hariho n'ibikapu bisa shokora.

Ahantu hari abantu benshi, hasa nk'aho ar'abagore hari imitako igiye itandukanye umuhondo, ubururu, aba mama basa nk'aho barambuye ibitenge hasi, ariko hejuru y'ibyo bitenge hariho imyenda bari kugenda banyuranamo.

Ahantu hari abantu hari umugore witeze igitambaro mu mutwe, afite isakoshi, yambaye umupira w'umutuku n'igitenge hasi, imbere ye hari indobo isa ubururu, hari no kunyura umugabo wambaye isengeri ry'umuhondo n'ingofero mu mutwe.

Ahantu bagurisha imbuto hari inanasi, imyembe, ibinyomoro, ku ruhande hari umugore wambaye igitenge kirimo umweru n'umukara, yambaye n'agapira k'umukara n'umweru ateze igitambaro mu mutwe.

Umugore wambaye ibitenge harimo amabara y'umuhondo, uniteze igitambaro mu mutwe, imbere ye hari amabase, hari ak'umukara, hari ak'icyatsi kavanze n'umweru, hari n'igisahani kinini kiriho ibirayi.

Ahantu bagurisha ibikapu hicaye umugabo ku gasonga bugari, yambaye ipantaro y'umukara irimo imirongo y'umweru n'umupira w'umukara, muri ibyo bikapu harimo ibikapu, harimo ibiseke ibikapu bisa umukara.

Umugabo usa inzobe ufite icyapa mu ntoki cy'umuhondo yambaye umupira w'umukara, iruhande rwe hari n'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo urimo umukara n'ingofero y'umuhondo.

Akazu gatoya gasize amarangi y'umuhondo gafunguye amadirishya yayo abiri, ku idirishya rimwe hahagaze abagabo batatu, umwe yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara n'inkweto zifunguye amano.

Umugabo uri kureba muri telefone ye yambaye agapira k'umweru, hasi yambaye ipantaro y'ubururu ari kureba muri telefone harasa n'ubururu, yambaye agashapure mu ntoki, yambayemo n'agakapu k'umukara.

Akazu gatoya gasa umuhondo amadirishya arafunguye yako, iruhande rw'ako kazu hari ipoto rirerire ririho igipapuro cyumweru. Hirya hari umuntu uri kuza utagaragara neza wambaye ijipo y'umutuku.

Umugabo wambaye umupira w'umweru afite terefone mu ntoki ari kuyifotoresha, imbere ye hari akantu gasa umuhondo kariho imibare magana arindwi mirongo itatu nicyenda, gatatu.

Akazu gasa umuhondo gafunguye, iruhande hari itara ririho risa umweru, hari umukobwa uhahagaze wambaye ijipo irimo utuntu tw'icyatsi n'isengeri, hejuru ye hari akantu k'ubururu kazamuye.

Umuntu wambaye agapira k'umweru aricaye, yambaye ipantaro y'ubururu, ku kaboko kamwe afiteho agakomo kariho umusaraba, mu kandi kaboko afitemo terefone, mo imbere hasaho ubururu, yambaye n'agakapu k'umukara.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo mo imbere, yambayeho n'ishati, ahagaze imbere y'ipikipiki ifite amabara y'umuhondo, inyuma ye hari icyapa kinini gisa umuhondo, gishushanyijeho n'imodoka isa umukara.

Umugabo n'umugore barahagararanye, umugore yambaye umupira usa umuhondo, ufite n'ikora ry'ubururu, mu misatsi ye hazirikishijwemo agatambaro k'umweru, umugabo we ari kuri terefone, yambaye ikote ry'umukara.

Umugabo wambaye umupira wumuhondo, muremure, ari gukanda muri mudasobwa, imbere ahahagaze umugabo wambaye ingofero wirabura wambaye n'umupira wumukara, iruhande rwumugabo hahagaze ugore wambaye umupira w'icyatsi.

Ahantu hari abantu, hasize ibara ry'umutuku, umugabo umwe yambaye umupira w'umweru, n'ipantaro y'umukara, undi umwegereye yambaye ipantaro n'ikabutura y'umutuku, n'umupira w'ubururu.

Umuhungu n'umukobwa bari kuganira umuhungu yambaye umupira uciye amaboko harimo umweru na shokora afite ikaramu ari kwandika, umukobwa we afite ibisuko bifunze inyuma yambaye n'agasengeri.

Umutaka usa umuhondo urimo n'amabara y'ubururu, munsi y'umutaka hahagaze umugabo n'undi mugabo usa nk'umunyeshuri wambaye ishati y'umweru, ipantaro ya kaki na bage y'umukara mu mugongo.

Abagore babiri begeranye umwe yambaye ingofero y'umuhondo n'ubururu ari guseka yambaye n'umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara undi mugore yambaye ikoti risa umweru n'ikanzu y'umukara.

Akazu gasa umutuku gafunze amadirishya hasi hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, hirya hari imodoka itwara abagenzi hari n'umugabo wambaye ishati n'ipantaro bisa umweru.

Abagabo babiri bahagaze hagati yabo harimo ipikipiki ifite agasanduku gasa umutuku, inyuma yaho hari igipangu gisa icyatsi, umugabo umwe yambaye ishati y'umutuku agapfukamunwa k'umukara undi yambaye ipantaro y'umweru.

Umugabo uri ku ipikipiki inyuma hari agakapu gasa icyatsi, umugabo yambaye ishati iciye amaboko isa icyatsi, yambaye ipantaro y'umukara irimo uturongo n'inkweto z'umweru.

Umukobwa wambaye ishati isa umweru, ari kureba kuruhande afite imisatsi irambuye migufi ari guseka ,mu kaboko kamwe gahinnye harimo ibikapu bibiri kimwe gisa icyatsi ikindi gisa umweru.

Moto iriho umuntu yambaye ingofero yayo isa icyatsi, inyuma yiyo moto hariho agasanduku, imbere yiwe hari ibiti n'ipoto ku ruhande.

Murukali byandikishijwe n'ibara rya oranje, hasi hari ifoto y'umureti harimo n'amakaroni mo imbere, hasi hari amagambo yandikishijwemo umukara murukari akadomo komu.

Umugabo uri kureba mu gasanduku gasa icyatsi, na we wambaye ishati isa icyatsi n'ingofero mu mutwe y'icyatsi, yambaye ipantaro y'ubururu, inkweto z'umweru uvanze n'umukara.

Abagabo babiri bahagaze ku rupangu rusa ubururu, umwe yambaye umupira w'icyatsi n'ingofero mu mutwe isa icyatsi, ari gufungura akantu gasa icyatsi, undi mugabo yambaye ishati y'umweru.

Moto ifite akantu inyuma k'umukara bafungura, hari umugabo n'umukobwa, umugabo yambaye umupira usa ubururu urimo icyatsi ari guha agakapu gasa umukara umukobwa wambaye umupira w'umweru.

Amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru agira ati "bona igabanyirizwa kugeza kuri mirongo itatu na gatanu ku ijana" hasi yaho hari n'andi magambo yandikishijwe ibara ry'umukara, inyuma y'ayo magambo hariho ibirenge by'umukobwa bisobekeranye.

Imineke itonoye n'indi idatonoye, muri iyo itonoye hari udupande dukase, hasi handitseho ko igura amafaranga magana abiri, ku ruhande hari ibirayi munsi handitse ko bigura igihumbi magana abiri na mirongo itanu.

Inzu icanyemo itara, hejuru hasa umweru, hejuru hari amagambo agira ati: "Dore icyo amadorari ibihumbi bibiri ku kwezi akubonera muri Kigali mu Rwanda."

Utubati dusa umweru tugiye dutondekanye, ku rundi ruhande hari akandi kabati gasa ikigina mu imbere mu nzu harasa umweru, hasi handitse Kanombe kigali siti.

Umugabo usa inzobe, ufite umusatsi w'umukara, yambaye ishati y'umweru utari umweru neza urimo ubururu, yambaye ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umukara, ari mu nzu ifite imeza n'intebe, intebe zisa umukara.

Inzu ifite amabati y'umutuku, iruhande rwayo ikikijwe n'inkingi ebyiri, iy'ubururu n'umutuku, hejuru harimo akarongo k'umuhondo, hejuru handitseho hagira ati: "Inzu nshya igurishwa kigali i Kanombe amadorari ibihumbi mirongo itandatu na bitanu".

Iinzu ifite amabati y'umutuku harimo n'amarangi y'umukara azengurutse kuri ayo mabati. Hari inkingi eshatu zisizwe amarangi y'umweru harimo n'irangi ry'umuhondo, munsi y'izo nkingi hari uturyango dufunguka dufite amarangi y'umukara.

Akabati gasa shokora k'umweru kagufi hejuru y'ako kabati hariho urukarabiro gafashe ku gikuta gisa shokora hejuru y'icyo gikuta hariyo akandi kabati gasa shokora.

Moto iparitse hanze y'inzu, iyo nzu irasa, isize ubururu n'umweru hejuru, igipangu kirafunguye hasi ni umuhanda w'igitaka, hirya hari inzu yindi na yo ifite amabati y'umutuku.

Inzu ifite amabati asa umukara, azengurukijweho akantu gasa umweru, ifite inkingi eshatu zisizwe amarangi y'umutuku, hanze hari ibyatsi bisa icyatsi.

Umukobwa ahagaze ahantu hari televiziyo, yambaye ibintu by'umukara, ari guseka afashe ahantu hari akameza gasa umweru.

Umugabo wambaye umupira wa orange aricaye. Iruhande rwe hari abagabo babiri bahahagaze. Umwe yambaye ishati y'umweru irimo imirongo, Undi yambaye ishati y'umweru. Hirya hari akameza kariho gasa umutuku.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu yambaye n'ingofero, iruhande hari ibikapu byinshi bimanitse, harimo igisa umutuku, umukara, hari n'undi mugabo wunamye wambaye ishati y'ubururu.

Umugore wirabura, intoki ze zisize umutuku, ateruye utuntu tureture dusa n'umutuku, iruhande rwe hari mudasobwa, hari ahantu bacanira itara.

Umugabo wambaye umupira w’umweru, yambaye ingofero y’umukara, azamuye akaboko intoki ebyiri nizo ziri kugaragara, hirya ye hari umugore wambaye ikoti risa umutuku wambaye n'agatambaro mu mutwe.

Umugabo uri mu iduka ricuruza inkweto n'imyenda miremire, harimo inkweto zifunguye amano zisa umukara, iruhande rwe hari imyenda isa ubururu, isa shokora, n'umweru irimo n'umutuku.

Umugabo urebye ku ruhande ufiteho akagozi k'umweru ku rutugu rwe, umugabo yambaye umupira w'umukara mu imbere hari hasamo umuhondo, inyuma ye hari amakanzu amanitse, ikanzu imwe irasa ubururu izindi zikozwe mu bitenge.

Ahantu bacuruza imikandara myinshi n'inkweto zo hasi zifunguye amano. Izo nkweto zirimo amabara umukara, ubururu, umutuku, n'iyo mikandara hari isa umukara, shokora na oranje.

Iduka bagurishamo ibintu bitandukanye, harimo umugore wambaye umupira usa ubururu, hejuru umusatsi urogoshe, ari kuvugana n'undi muntu.

Ahantu bahahira hari abantu benshi hari abagore, umugore umwe yambaye agapfukamunwa k'ubururu yambaye n'ikanzu ndende, undi mukobwa yambaye agapfukamunwa k'umweru, afite imisatsi y'umukara irambuye.

Ahantu hameze nk'isoko, hari abantu benshi, hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hari abagore n'abagabo, umugore umwe wambaye agasengeri gasa oranje uhetse igikapu mu ntoki, hejuru ye hari igipirizo gisa roza.

Umukobwa wicaye, wambaye ishati y'umweru, imisatsi ye irafunze yambaye amaherena, afite ikaramu mu ntoki ari kureba muri terefone, iruhande rwe hari impapuro hari n'utuntu dusa umukara.

Abagore bicaye umwe mu bagore ateruye umwana wambaye umupira w'ubururu, nawe yambaye umupira urimo ubururu, undi mugore yiteze igitambaro cy'umutuku mu mutwe.

Umugore wambaye igitenge gisa umutuku yitetse n'agatambaro mu mutwe inyuma yitwikirije agatambaro gasa umweruru ari kwinjira mu muryango usize irangi ry'umukara hanze hari puberi isa ubururu.

Umusaza wambaye ishati ukenyeje umukenyero w'umweru, yambaye ingofero y'umukara afite n'imvi ari kureba umugore afashe akaboko, wambaye umukenyero w'umweru urimo ubururu isengeri y'ubururu.

Umugore wicaye wambaye igitenge cy'umutuku, yitwikirije ikindi gitenge gisa icyatsi, yiteze agatambaro mu mutwe, iruhande rwe hari n'undi mugore ufite isakoshi y'umukara, hasi ku mwanya w'intebe bicayeho hariho igipapuro cy'umweru kiharambitse.

Umugabo wambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara, atunzwe telefoni n'utubikamajwi n'indangururamajwi, umwe mu mugabo amutunze telefone yambaye isaha.

Agakarita karambuye kareba hasi kanditseho mituweri, ubwisungane mu kwivuza gasa ubururu kariho utwuma hejuru dufasheho.

Umugabo wambaye amarinete n'ingofero, yambaye umupira usa icyats,i ishati y'umweru na karuvati y'umutuku ahetse igikapu gisa umutuku. Iruhande rwe handitse amagambo agira ati ejo heza.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara, afite akantu mu ntoki ari gushyiramo ibyo ari guhahiramo, aho bagafatira harasa umutuku. Yambaye n'ijipo irimo amabara y'umutuku, umuhondo, umweru ,icyatsi afite n'akantu mu ntoki gafitemo ibara ry'icyatsi n'umweru.

Iduka ririmo ibiribwa, hejuru hariho akantu gasa umutuku, hariho n'ibintu bigiye bitandukanye, utwo tuntu hari udusa n'umuhondo, umweru, oranje n'icyatsi.

Umukobwa wambaye agapira karekare gasa icyatsi, afite akantu bahahiramo ari kugenda ashyiramo ibintu ari kugura, hari kokombure, hari na pavuro z'amoko yose, izisa icyatsi, umuhondo n'umutuku.

Ahantu bahahira hari umuntu uri kunyuzaho akantu bahaha bashyiramo, ku rundi ruhande hari umugore wambaye ibintu by'umukara gusa n'inkweto z'umweru.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku hejuru yambayeho akantu k'umukara afite terefone ari kuyereka umugabo uri gukozaho ikarita umugabo yambaye umupira w'ubururu bwijimye.

Umukobwa wambaye ikote ry'ubururu mu imbere harimo agapira k'umweru afashe igitabo ari kugisoma afite imisatsi na terefone mu ntoki ,imbere ye hari akuma gafite akantu k'umweru bafatiraho.

Utuntu dutatu dutondetse ku murongo dufite ibirahure bibonerana bisa nk'aho bikonjesha, mo imbere harimo amazi, harimo fanta na ji.

Ukuboko k'umukobwa wirabura, gufashe icupa ririmo ibintu bisa umweru, iryo cupa ripfundikije akantu gafite ibara ry'ubururu, kuri iryo cupa hazengurukijweho agapapuro gafite ibara ry'umweru n'umuhondo.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi urimo uturongo tw'umukara yambaye n'ipantaro y'umukara, ateruye ibintu mu ntoki, inyuma hari undi mugabo uri kumufotoresha telefone wambaye ingofero y'umuhondo.